Umugabo wambaye ishati afite indangururamajwi mu ntoki, arikubwira abantu bicaye imbere ye ku ntebe zisa umweru, bari kumureba mu maso.

Abantu benshi bafite mudasobwa mu ntoki zabo bicaye ku ntebe z'umukara bareba imbere, abandi bane bigaragara ko hari igikorwa barimo.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara n'ibirahure by'amaso ahagaze imbere kuraritari, afite indangururamajwi mu ntoki ze ari kugeza ijambo ku baturage.

Abagabo n'abagore bicaye kuntebe imbere yabo hakaba hari ameza ariho amazi ndetse na mudasobwa umwe muribo arahagaze yambaye ishati y'umweru uko bisa ari kubahereza amabwiriza amwe namwe.

Umugore umwe uhagaze imbere y'abantu benshi bamuteze amaso n'amatwi wagira ngo ari mu bukangurambaga runaka cyangwa ari umuyobozi ari kubagezaho ibintu byinshi.

Ihema rishinze ry'umweru ritatswe n'ubururu, hicayemo abantu benshi, undi ahagaze imbere abandi ku ruhande nabo bamu.

Abasore n'inkumi bicaye mu ntebe z'umukara, bari kwandika, uwundi uhagaze yambaye ishati y'umweru, isaha, ibirahure by'amaso, afite agasatsi gakeya n'ubwanwa.

Aba ni abantu bagera kuri batandatu bari ahantu hamwe urabona ko bishimye cyane; bamwe muri bo bambaye impuzankano zijya gusa umweru higanjemo abagore ndetse n'abagabo.

Abagabo n'abagore bicaye ku ntebe imbere yabo hari ameza y'uruganiriro bafite uducupa tw'amazi ndetse na mudasobwa ubahagarariye yambaye ikote ry'ubururu bwijimye uko bisa ni umusore ukiri muto.

Umukobwa n'umusore bicaye ku ntebe z'umukara imbere yabo hateretse ameza akozwe mu mbaho ariho icupa ry'amazi n'impapuro, bigaragara yuko bari mu nama runaka.

Abantu benshi bahagaze barimo barareba imbere bahagaze ahantu hasa ubururu bw'ijimye, naho inyuma yabo hakaba hari ibyapa bigiye bitandukanye bigaragara yuko bahuriye mu gikorwa runaka.

Abagabo batatu bambaye amakoti y'umukara n'umugore umwe usa nk'aho akuze bicaye ku ntebe zirabura imbere y'abo hari ameza akozwe mu mbaho n'amacupa y'amazi ndetse n'indangururamajwi bigaragara ko bari mu nama.

Abagore benshi bambaye imyenda ya oranje isa bicaye bareba imbere bari guseka, uko bisa hari ibikorwa bakurikiye cyangwa umuntu.

Abagabo batatu bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yaho hari mudasobwa n'amacupa y'amazi ku meza, uw'iburyo yambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe urabona ko bakeye urebye ku myambaro yabo. Higanjemo abagore ndetse n'abagabo bose bicaye ku ntebe z'imikara zizengurutse, urabona ko ari ibintu byiza cyane.

Abagabo bambaye amakoti y'ubururu bwijimye n'amapantaro y'umukara bicaye ku ntebe zisa ivu bareba imbere basa nk'aho bakurikiye ikiganiro runaka.

Abantu bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari amacupa y'amazi ndetse na mudasobwa, bari kwitegereza ahari barasa nk'abari mu nama.

Umugabo wambaye ikoti n'ishati y'umweru ufashe indangururamajwi ahagaze kuri aritari areba imbere asa nk'ubwira abandi bantu.

Abagabo n'abagore basa nk'aho bakuze, bicaye ku ntebe z'umukara. Imbere yabo hari ameza yirabura n'amacupa y'amazi. Bisa n'aho bari kuganira.

Abantu benshi bicaye ku ntebe zitukura, bafite amacupa y'amazi bari kureba imbere, uko bisa wagirango bari mu mahugurwa atandukanye.

Umutegarugori wambaye imyenda y'umukara ufite indangururamajwi mu ntoki ze, ahagaze hagati y'abaturage benshi, ari kubagezaho ibiganiro bitandukanye.

Umugore ukiri muto, mu ntoki afitemo indangururamajwi na telefoni, yambaye isaha, agakanzu kajya gusa umweru, bisa nk'aho ari gutanga ikiganiro runaka abwira abantu.

Abantu bicaye ku ntebe z'imikara bisa nkaho bari mu nama, imbere yaho hari ameza akozwe mu mbaho ariho uducupa tw'amazi, ndetse na mudasobwa birasa nkaho bakurikiye.

Aba ni abantu benshi bicaye ahantu hamwe bisa nk'aho bari mu nama higanjemo abagore ndetse n'abagabo imbere yabo ateretse uducupa tw'amazi yo kunywa urabona ko ari meza cyane ari ibintu bikeye.

Abantu benshi bicaye ku meza zambaye ibitambaro by'umweru, bari kureba muri mudasobwa baseka, bakurikiye imbere wagira ngo bari mu nama.

Abantu benshi bahagaze bafashe igipapuro cy'umweru bishimye baseka bisa nk'aho ari impano cyangwa igihembo babahaye kubwibikorwa by'abo.

Mu ihema, hicaye abantu basa nk'abanyacyubahiro, imbere hahagaze undi ufite indangururamajwi, yambaye ishati n'ipantaro y'umukara, inkweto zirabura, inyuma hashagawe n'abandi baturage benshi.

Umu mama usa nk'ukuze wambaye igitambaro mu mutwe cy'umukara afite indangurumajwi mu ntoki ye ari kuvuga ijambo abwira abandi bicaye.

Abaturage benshi bicaye ahantu hagaragara nkaho ari mu nzu y'inama, babiri bicaye imbere b'abagore umwe yambaye imyenda y'ubururu bwijimye, undi yambaye ikote ry'umweru, ishati y'icyatsi ndetse n'ibirahure mu maso.

Abaturage bicaye ku ntebe bareba imbere abayobozi babo uko bisa bari kubaganiriza ku bintu runaka bitandukanye.

Abaturage bahagaze imbere bafite imigozi iziritseho amatungo y'ihene bigaragara yuko ari impano bahawe n'abayobozi babo.

Umugabo wambaye imyenda y'ubururu n'ingofero, afite indangururamajwi mu ntoki ze, inyuma ye hakaba abandi bahagaze, uko bisa ari kubagezaho ijambo.

Umugabo wambaye umupira w'umweru n'ibirahure mu maso, ahagaze afite indangururamajwi mu ntoki ye, imbere ye hicaye abaturage benshi n'abayobozi bamuteze amatwi, uko bisa ari kubagezaho ibiganiro.

Abagabo batatu n'umugore umwe, bicaye kuntebe, imbere yabo hari ameza ariho ubucupa bw'amazi, uwo hirya iburyo yambaye ikote ry' ubururu bwijimye, ndetse n'ibirahure by'amaso bisa umukara, mo mimbere harimo ishati y'umweru.

Umugore wambaye ikanzu ya orange, afite indangururamajwi mu ntoki ze, ahagaze imbere yabantu bicaye mu ihema ry'idarapo ry'u Rwanda. Ari kubabwira ibintu bimwe na bimwe.

Abanyeshuri benshi bambaye impuzankano zitandukanye hari ab'ibitambaro mu mutwe n'abandi b'udupira tw'umuhondo uko bisa n'ibigo byahurijwe ahantu hamwe.

Abagabo ndetse n'abagore bakuze ndetse n'abandi bato bato bicaye ku ntebe z'umutuku, imbere yabo hari imeza y'umweru n'uducupa tw'amazi bisa nkaho bakurikiye

Umugabo wambaye ikote ry'ubururu bwijimye, ahagaze hagati y’ abantu benshi bicaye ku ntebe z'umutuku. Ari kubabwira ibiganiro runaka, abagira n'inama.

Nutega ikinyabiziga cya moto uzibuke kwambara ingofero kuko irinda umutwe kandi n'umuyaga ntabwo ukwica, wibutse no kubwira motari ko atemerewe kuvugira kuri telefone igihe atwaye.

Umugabo wambaye ishati ya kaki n'isaha y'umukara, ahagaze imbere y'abandi bantu arikubabwira ibiganiro runaka, inyuma ye hari icyapa kiriho ibendera ryigihugu u Rwanda gisa ubururu.

Abagore n'abagabo basa nkaho bakuze bahagaze ku murongo bari kwifotereza ku byapa biri kubuza cyangwa se byamamaza kurwanya ihohoterwa rishingiye ku bitsina.

Abantu bicaye ku ntebe ziri mu ibara ry'ivu bari kureba imbere, undi uhagaze abereka amashusho y'ibikorwa runaka.

Umugabo wambaye ishati nijire ipantaro ya kacyi inkweto z'umukara ahagaze imbere ya baturage abagezaho ibiganiro bitandukanye asa nk'umuyobozi wabo.

Abantu benshi bicaye bari kureba ahantu hamwe. Imbere yabo hicaye abagabo batatu n'umugore umwe, bafite uducupa tw'amazi ndetse ji na mudasobwa n'umusirikari uri kwandika mw'ikaye.

Abagabo bahagaze ku murongo bamwe imbere abandi inyuma bambaye imyenda itandukanye harimo ab'amakanzu ndetse n'amakote.

Abagabo babiri bicaye hagati yabo hakaba umugore umwe usa nk'aho akuze hirya iburyo hari uwambaye ikote ry'umukara, n'ishati y'umweru inkweto zirabura utumeza dusa umweru ituriho amazi n'ibyo kunywa.

Abagabo batatu bicaye ku ntebe zisa ubururu n'umutuku; umukobwa umwe uhagaze yambaye imyenda y'icyatsi ari kubereka amashusho.

Abantu bicaye ku ntebe z'umukara barebe imbere yabo, hari abafashe ku meza ikonzwe mu mbaho n'ibyuma byirabura.

Abasore n'inkumi bicaye ku ntebe z'umutuku bambaye imyenda y'umweru bari kureba imbere, umukobwa uhahagaze hirya ye hari icyapa cy'ubururu.

Abo bagabo babiri basa naho bakuze, umwe yambaye ibirahure by'amaso, ishati y'umukara, ikote rya kaki, undi yambaye umupira w'umweru, ishati y'icyatsi cyijimye, naho hakaba hari umugore wifashe ku matama.

Abantu benshi bicaye bareba imbere, umwe yambaye umupira ufite ibara ry'icyatsi n'akantu gatukura ku mufuka.

Umugabo usa nk'aho ukuze wambaye ikote riciyemo imirongo, yegeranye n'umukobwa muto w'ishati ya oranje, imbere yabo hakaba hari ameza ateretseho amacupa y'amazi.

Aba ni abantu benshi bicaye ahantu hamwe, urabona ko bishimye ubarebye ku maso yabo, yiganjemo abagore ndetse n'abagabo, bose bari mu ihema rimwe, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Abagore batatu bicaye umwe muri bo yambaye ibirahuri by'amaso afite indangururamajwi mu ntoki ze, ku meza hariho igitambaro cy'umweru.

Abagabo, abasore n'abakobwa, bicaye mu ntebe zifite ibara rya oranje. Bari kureba imbere yabo, basa n'aho bakurikiye ibiganiro runaka.

Abantu benshi bicaye ku ntebe bafashe ku meza imbere ya bo hari uducupa twamazi, undi ahagaze imbere yambaye imyenda itukura n'umukara ari kubabwira.

Abagabo bambaye imyenda isa ibara ry'ubururu n'umukara bari kureba iburyo bwabo, hari umugabo w'amarinete y'umukara nikote ryirabura.

Abagore babiri basa nkaho bakuze bambaye ibirahure mu maso, bicaye imbere y'abandi. Gusa afite mudasobwa n'amacupa y'amazi wagira ngo bari mu inama.

Abagabo batatu n'abamama batatu, bigaragara yuko bakuze, bicaye mu intebe z'umukara. Inyuma yabo hakaba hari icyapa gifite ibara ry'ubururu, umwe muri bo yambaye ikote ry'umutuku ndetse n'ipantaro y'umukara.

Umugore usa nkaho akuze wambaye ibirahure by'amaso afite indangururamajwi mu ntoki ze uhagaze imbere y'abantu bicaye ku meza afite ibitambaro by'umweru.

Inyubako iriho ibyapa by'amabara agiye atandukanye icyatsi, umutuku, umuhondo, roza.

Umusore wambaye imyenda y'umukara n'ingofero mu mutwe ibirahure byamaso arimo arakoresha mudasobwa uko bisa wagirango hari ibintu arimo aratunganya.

Abanyeshuri babiri bafatanye akaboko, barimo barava cyangwa bajya ku ishuri, bari mu muhanda bagenda birukanka, inyuma yabo hari imodoka ndetse n'amamoto, hirya yaho hahagaze umugore wambaye umupira utukura n'ijipo y'umukara.

Abantu benshi bari kuri mudasobwa undi umwe uhagaze ari kugenda aberekera uko zikoreshwa nk'aho ari umwigisha.

Umugabo wambaye ibirahuri mu maso n'umupira w'umukara wanditseho ijambo irembo ari kureba muri mudasobwa ayikoresha.

Abagabo n'abasore bicaye barimo barakoresha mudasobwa na telefone, umwe muri bo yambaye ingofero y'iroza iriho akabara k'icyatsi, hirya yaho uwambaye ishati y'umweru, arunamye cyane.

Abantu bicaye bafite mudasobwa imbere yabo n'impapuro bigaragara y'uko ari abanyeshuri bari gukora umukoro runaka banaganira.

Abagabo bicaye mu modoka bari gukoresha mudasobwa na telefone, hakaba hari abambaye imyenda ya oranje, umweru, umuhondo, ubururu, intebe z'ikinyabiziga zikaba zifite ibara ririmo umutuku, hakaba hari uri gufotora areba mu kirahure.

Ibiti biriho insinga zijyana amashanyarazi ahantu ahatandukanye, biri hejuru y' inzu ifite ibara ry'umuhondo igisenge cy'umutuku.

Imodoka ifite ibara ry'umweru itanswe n'icyatsi hirya hariyo umugabo wambaye umukara hejuru ye hakaba amapoto ndetse n'amatara inyubako uko bisa ni mumugi wa kigali.

Umuhanda mugari urimo uragendam ibinyabiziga bitandukanye ndetse n'abantu harimo amapikipiki, imodoka nini n'intoya izipakira imizigo n'izitwara abantu .

Igiti gishinze gishamikiyeho insinga nyinshi zigenda ahantu hatandukanye bigaragara ko abaturage ari hano bakura umuriro wo gucana.

Ipoto rihagaze mu byatsi rishamikiyeho insinga nyinshi imbere hari indabo n'inyuma hirya hakaba amazu y'umweru afite amabati atukura.

Umusore wambaye umupira w'umuhondo ipantaro y'ubururu bwijimye yicaye mubitaka bisa nkaho akora akazi ko kubaka akaba yakagiyemo.

Umukobwa n'umusore bambaye amashati y'umweru n'amapantaro y'umukara, akagofero mu mutwe, hirya yaho hari ibyatsi n'indabo, bisa umuhondo n'icyatsi.

Icyumba kinini kirimo intebe zo kwa muganga, n'akagare kagenderwamo abarwayi barwaye amaguru, hari amarido n'ibitambaro bisa, ubururu amadirishya arih' ibirahure n'amashusho ari kubibambazi.

Umugabo wambaye agapfukamunwa n'ishati y'umukara n'isaha ku kuboko wicaye ku ntebe y'umukara, ari kumwe n'umuganga ari kumutera urushinge.

Abantu bagiye batandukanye bahagaze bamwe bambaye imyenda y'umweru n'umukara, hari intebe zo kwa muganga ndetse n'imodoka zitwarirwamo abarwayi.

Ibyapa bibiri kimwe kiriho ibara ry'ubururu n'amagambo y'umweru, ikindi icyatsi n'ikimenyetso cy'ijisho, bigaragara yuko bavura amaso.

Ikinyabiziga kiriho ibara ry'umutuku gihagaze hejuru y'ibitaro bya muhima, aho abarwayi bajya kwivuriza iyo barembye.

Inyubako zubakishijwe amatafari hariho amarange y'umweru hejuru hariho ikimenyetso cyo guteranya gisa umutuku, n'aho mu muhanda hari umugabo wambaye ishati y'umweru hino hari imodoka z'umukara.

Inyubako ndende zigerekeye gatatu abantu bari kuzikana bafite imitaka mu ntoki zabo, bigaragara yuko aha ari kwa muganga, abagiyeyo ari abarwayi.

Aha hari umukobwa ugaragara nk'aho ari muto yambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantalo y'umukara, hakaba hari ibyuma bifite ry'umuhondo ndetse n'amazi asa ubururu hirya hari ibikuta by'amatafari ahiye.

Ibyatsi biteyemo uduti hirya hari abantu bicaye undi ugenda yambaye imyenda y'ubururu n'agapfukamunwa bisa nkaho ari kwa muganga aho barwariza abarwayi.

Icyapa cyanditseho yuko aha, ari mu igororero rya Muhanga, aho bazana abantu bananiranye bakabahereza uburere n'uburezi.

Aba ni abantu benshi ubona bari kugenda bakeye cyane, bambaye impuzankano zisa umukara, umweru hagati n'umutuku, biganjemo abagore ndetse n'abagabo, hirya yabo hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bahagenda bose.

Abasore n'inkumi bahagaze ku murongo hagati hakaba harimo abapapa babiri n'umugore umwe uko bisa ni ingabo z'igihugu runaka ndetse n'abayobozi babo babahagarariye.

Umugore usa nkaho akuze yambaye imyenda irimo amabara; umutuku, umukara, umweru. Afite ingofero, ibirahure by'amaso hirya ye hari idarapo risa ubururu ndetse n'umuhondo.

Abantu benshi bicaye bambaye imyenda isa yo mw'ibara rya roza, bigaragara yuko ari imfungwa ziri ku bihano zicaranye n'abaturage.

Umugabo wambaye umwambaro wa oranje, umukara, umweru ibirahure by'amaso afite uruhara, amatwi maremare asa nkukuzeho gato.

Umugabo ufite uruhara arimo araseka yambaye ikoti ry'ubururu bwijimye, ishati y'umweru, agasatsi gakeya, amatwi maremare.

Umugabo wambaye ibirahure mu maso afitwe mu ntoki n'abashinzwe umutekano w' u Rwanda uko bisa ashobora kuba yakoze amakosa runaka.

Icyapa kigaragaza yuko aha ari mu kigo ngoramuco giherereye i Huye aho bajyana abantu bananiranye kugira ngo babasubize ku murongo.

Umugore usa nk'ukuze wambaye ibirahure by'amaso ufite agasatsi gakeya, imyambaro irimo amabara agiye atandukanye: y'umutuku, umukara n'umweru.

Abagabo benshi bambaye imyenda ya rosa, umwe muri bo yambaye iya kake uko bisa akaba abaherekeje ku rukiko rukuru rufite amabati y'ubururu, amatafari ahiye.

Abagabo benshi bambaye imyenda y'iroza n'udupfukamunwa abandi mu makanzu y'umukara imbere yabo hari mudasobwa bicaye ku ntebe z'umukara.

Ishusho igaragaza abaturage benshi bicaye hasi ndetse n'abandi bicaye ku ntebe bameze nk'abayobozi, hirya bari gutanga ibibazo hino bakabasubiza.

Aba n'abantu benshi bari ahantu hamwe bahagaze imbere y'amabendera y'igihugu cy'u Rwanda agizwe n'umuhondo, icyatsi ndetse n'ubururu, bambaye impuzankano zisa umukara n'umweru hasi higanjemo abagore n'abagabo.

Umuhanda urimo umugabo wambaye igikapu gitukura n'umugore wikanzu hirya undi musore wimyenda y'icyatsi n'inkweto z'umukara .

Umugabo wambaye imyenda yu bwijimye n'ingofero iriho inuma, ibendera ry'u Rwanda, ku kaboko k'ibumoso n'ijire irimo imirongo y'icyatsi

Iki ni gikoresho cyifashishwa mu kuzimya umuriro igihe wateye mu buryo butunguranye, kikaba gisa umutuku n'ubururu hagati bwanditsemo amagambo y'umweru, ku munwa wacyo ni umukara. Nakugira inama yuko nawe wajya ugitunga ukajya ubasha kucyifashisha.

Umuhanda mugari urimo ibinyabiziga bitandukanye byahagarikijwe n'abashinze umutekano wawo kugira ngo abagendesha amaguru bambuke, higanjemo moto nyinshi.

Inyubako yafashwe n'umuriro iri mu ibara ry'umutuku, hanze hahagaze abagabo bambaye imyenda y'ubururu bwijimye iciyemo imirongo y'icyatsi bari gusukamo amazi bigaragara ko bashinzwe kuzimya aho byatse.

Umugao wambaye imyenda y'umukara n'inkweto z'umukara ahagaze imbere y'igipangu cy'amatafari ahiye. hariho amadirishya y'irabura. Hirya ye hari guturuka umusore w'akagofero, inyuma ye hari ipoto.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, urasa umukara, haragendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka, moto, ukikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Umugabo wambaye imyenda y'umukara iciyemo imironko y'icyatsi arimo aratambuka imbere ye hari moto yicayeho umusore wambaye ingofero y'umutuku hirya hakaba imodoka nini y'umweru.

Inzu ihagazemo abagabo babiri bambaye imyenda y'ubururu bwijimye n'imbunda mu ntoki zabo n'icyapa kigaragaza yuko ari ku kigo cy'abashinzwe umutekano wo mu Rwanda.

Umugabo wambaye imyenda y' ubururu bw'ijimye n' ingofero iriho inuma ,idarapo ku kaboko k'iburyo asa nkaho ashinzwe umutekano w'igihugu cy'u Rwanda.

Aba ni abantu bagera kuri batatu bicaye ahantu hamwe higanjemo abagabo babiri ndetse n'umugore umwe wambaye ikanzu ijya gusa umweru imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi n'ibikoresho byifashishwa mu kurangurura amajwi.

Umuyobozi w'igihugu arimo ariyamamaza yambaye ishati y'umukara n'ibirahuri by'umukara. Imbere ye hari umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse n'ijire yirabura. Hirya yaho hakaba hari ifoto y'uwo muyobozi.

Abagabo basa nk'abanyacyubahiro bambaye amakote, bicaye ku ntebe z'imikara, imbere yabo hari ameza akozwe mu mbaho, bisa nk'aho bari mu nama runaka.

Abagabo ba basore, inkumi bambaye imyenda y'umweru ingofero z'umutuku ndetse n'ibintu by'bipapuro bafite mu biganza byabo bisa ubururu, umutuku bahagaze ari benshi.

Abamama benshi bicaye basa nkaho bakuze bambaye imyenda y'ubururu umweru n'umutuku bafite utudarapo turiho inyuguti ya FPR.

Icyumba kirimo abantu benshi bicaye ku ntebe z'umukara, imbere ya bo hari mudasobwa bisa nkaho bari mu nama runaka akaba ari abayobozi.

Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yambaye ishati y' umweru ,ipantaro y'umukara afite indangururamajwi mu ntoki ze, inyuma ye n'imbere ye hari abantu benshi.

Umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda ahagaze imbere y'ibendera ry'amabara atatu; icyatsi, umuhondo, ubururu. Iburyo bwe hari umugore we, ibumoso hakaba urahiza.

Umuhanda urimo uragendamo abantu bagiye batandukanye n'imodoka imwe ifite ibara ry'ivu hirya hashinze amahema y'umweru.

Abantu bahagaze bari gushyira impapuro mu dukarito, uko bisa biragaragara yuko barimo baratora abayobozi b'inzego zitandukanye.

Abagore bane bahagaze bafashe ku mabendera afite ibara umuhondo, icyatsi ndetse n'ubururu idarapo ry'u Rwanda, hagati hari umugabo wambaye ikote ry'ubururu bwijimye, ishati y'umweru bisa nkaho barimo bararahira.

Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, yicaye hagati y'umugore n'umugabo abandi babahagaze inyuma uko bisa bose ni abayobozi.

Umugore usa nk'aho akuze wicaye mu ntebe y'umukara imbere ye hari ameza asa umweru yambaye umwenda w'iroza, hirya ye hari ibendera rifite amabara ubururu umuhondo.

Ibyapa biriho ishusho y'umugabo wambaye ikote ry'umukara, ishati y'umweru bigaragaza yuko ashobora kuba ari mu iyamamaza ry'abayobozi runaka.

Umukuru w'igihugu yambaye imyenda y'umukara ingofero yirabura afite indangururamajwi mu ntoki ze, hirya hicaye abaturage arimo arababwira imigabo n'imigambi yiyamamaza.

Abaturage benshi bari ahantu hamwe bafite icyapa kiriho umukuru w'igihugu kigaragaza ko barimo baramwamamaza.

Umugore w'umusatsi yambaye ishati y'umweru ufite udufungo tw'umukara ari gusohoka mu modoka undi mugabo yafunguye icyo kinyabiziga.

Umumama usa nkukuze yambaye ibirahure mu maso, ishati y'umweru, agapira k'umukara n'urunigi arareba imbere.

Umugabo usa nkaho akuze yambaye ibirahure mu maso imbere ye hari ifatamajwi ndetse agakote ke karimo uturongo tw'umweru n'ishati y'ubururu bwerurutse mo mimbere.

Abantu benshi bahuriye ahantu hamwe mu cyumba, bafite amakaramu mu ntoki zabo n'amakayi bari kureba imbere nkaho wagirango bari mu biganiro.

Abadamu benshi bari ahantu hamwe, urabona ko bakeye cyane barishimye ku maso yabo, bambaye impuzankano uka ari bose ijya gusa umutuku, umweru ndetse bafite n'amadarapo mu ntoki zabo.

Aha hagaragaramo abagore bagera kuri batatu uko bisa barakuze, harimo uwambaye ibirahure mumaso wagira ngo bamuhaye ijambo arimo aragira ikintu abagezaho nko muntama abandi bicaye inyuma ye.

Abagabo bisize amabara mu maso, mu maboko, mu nda, asa umweru, ubururu, umutuku, inyuguti ya pa mu gituza.

Umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda yambaye ibirahure by'amaso, ishati y'umukara, ipantalo ya kaki, hino ye hakaba undi ubyibushye inyuma umugore n'umusore barikugendana.

Umugabo n'umugore bambaye imyenda yirabura, ndetse n'ibirahure mu maso, basa nkaho bakuze bafite icyapa mu ntoke zabo kigaragaza abahinzi bakaba barimo baramamaza.

Umugabo wambaye ipantalo y'ubururu n'ikote bisa, agapira k'umweru, inkweto z'ashokora imbere ye hari indangururamajwi, inyuma ye hakaba abantu n'icyapa.

Abagabo batatu bicaye ku ntebe z'umukara, n'umugore umwe wambaye umupira wa orange, imbere ye hari mudasobwa n'icupa ry'amazi.

Abantu benshi bahagaze bazamuye amaboko bafashe no ku ibendera ry'u Rwanda bigaragara yuko bari kurahirira inshingano runaka z'ubudahemuka.

Aha hari umugabo wambaye ingofero y'umukara, ibirahure mu maso, umupira w'umweru, ipantalo yirabura, inyuma ye abantu benshi cyane bigaragara ko ari umuyobozi w'igihugu runaka.

Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yambaye ikote ry'ubururu bwijimye, n'ishati y'umweru, ibumoso bwe hari umufasha we, inyuma hakaba ababarinda.

Umugabo n'umugore bicaye mu ntebe z'umukara bambaye ibirahure mu maso, umwe muri bo arimo arareba undi yambaye umupira w'icyatsi kijimye n'umwitero w'icyatsi cyererutse.

Abagore bagera kuri bane basa nkaho bakuze, bicaye ku ntebe z'umukara n'umugabo umwe, imbere yaboho hari imeza ziriho uducupa tw'amazi.

Abantu benshi bambaye imyenda y'umweru, n'utugofero twera, bafite amabendera mu ntoki zabo, bigaragaza ko bari kwamamaza.

Abantu bane abagabo babiri n'abagore bandi bahagaze bafite indangururamajwi, bisa nkaho bari mu iyamamaza kuko inyuma yabo hari amafoto.

Moto ebyiri imwe iri kuzambuka indi iri kumanuka n'imodoka y'umweru ifite ibirahure itwawe n'umugabo wambaye ishati, abamotari n'utugofero tw'umutuku.

Umuhanda mugari, urimo ibinyabiziga bitandukanye, imodoka yo mu ibara ry'umweru ihetse ibikoresho byo kubaka, hirya moto, itwawe n'umugabo wambaye akagafero k'icyatsi.

Umuhanda w'umukara urimo uragendamo ikinyabiziga kinini cy'umweru. Hirya hapariste izindi modoka zerurutse hakikijwe n'amabara y'icyatsi.

Amasaha y'ijoro imodoka nini ifite ibara ry'ubururu n'umweru isa nk'itwara abagenzi benshi cyane iri kugenda mu muhanda.

Ikinyabiziga kinini kiri mu ibara ry'umweru n'icyatsi gitwara imizigo myinshi cyane gikunda kwambukiranya imipaka y'ibihugu.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye, ibinini bitwara abantu rusange benshi na ututo turi mwibara rya ubururu twa amapine atatu dutwara imizigo.

Umugabo wambaye umupira wa orange n'ipantaro y'ubururu ari ku igare, hirya ye hakaba undi wijire ya orange n'icyatsi, inyuma hakaba utumodoka tugendera ku mapine atatu.

Ikinyabiziga kinini kigendamo abantu benshi gifunguye kigaragaza imashini abagenzi bakozaho ikarita kugirango bemererwe gutambuka.

Ikinyabiziga kiri kugenda mumuhanda gifite ibara ry'umweru uturongo tw'icyatsi amapine y'umukara imiryango y'ibirahure byirabura.

Umuhanda w'umukara urimo ikinyabiziga kinini gisa ibara ry'umutuku n'umukara. Imbere hari igare ririho umuntu wambaye ishati y'ubururu bwerurutse.

Umuhanda mugari urimo ibinyabiziga bitandukanye amamoto, imodoka nini n'intoya, iz'ubururu n'izifite ibara rijya gusa n'umukara w'ivu, abamotari bambaye imyenda y'umuhondo.

Umuhanda mugari urimo imodoka eshatu ndetse n'amagare abiri na moto imwe itwawe n'umugabo wambaye agagofero k'umuhondo.

Uyu ni umuhanda urimo igare ryikoreye ibicuruzwa umuceri, amavuta, hirya hari moto iriho umugabo, abandi basore n'abamama barimo baragenda mu muhanda uko bisa bagiye mu mirimo yabo.

Imodoka zifite ibara ry'umweru n'iry'icyatsi ziri gutambuka, imbere yazo hari ikinyabiziga kinini gisa ubururu, hejuru hakaba ikigega, hino abagabo babiri.

Mu masaha y'ijoro ibinyabiziga biraparitse. Imbere hari imodoka eshatu, enye, zisa umweru, zifite utubara tw'umuhondo ndetse n'imitaka y'umutuku. Inyuma hari moto isa umukara.

Umuhanda ufite imirongo y'umweru hari kugendamo moto, amamodoka n'abantu, ibikamyo binini biparitse ku ruhande.

Ibinyabiziga byo mu bwoko bumwe bifite ibara ry'umweru n'icyatsi bitwara abagenzi, bihagaze ahantu kuruhande rw'umuhanda.

Ibinyabiziga bibiri kimwe kinini kiri m’ ibara ritukura gitwara imicanga, n'amabuye yo kubakisha n'akandi gato gasa ivu kagendamo abagenzi.

Ikinyabiziga gifite ibara ry'umutuku ibirahure bisa umukara, hirya yaho hari umugabo wambaye ishati isa umweru, akabido k'ubururu, ipantalo yirabura ikaba iri mu muhanda wa kaburimbo.

Ikinyabiziga kinini kiri mu ibara ry'umweru, amapine y'umukara hicayemo abantu benshi. Uko bisa gitwara abantu rusange, inyuma yacyo hakaba ikamyo nini y'umuhondo.

Umuhanda urimo moto nyinshi z'abagabo bambaye utugofero tw'umutuku mu mitwe, namajire yicyatsi n'umuhondo inyuma umuntu utwaye igare.

Umumama usa nkaho akuze arimo aratambuka yambaye igitenge kirimo amabara atukura, agapira k'umweru, igitambaro mu mutwe cy'umuhondo, hirya ye hakaba hari imodoka nini y'igikamyo, hino hakaba hari akamodoka gatoya kirabura.

Moto itwaye abagabo babiri bambaye utugofero tw'umuhondo iri kugenda ku muhanda w'umukara, hirya uturongo tw'umweru kubyuma.

Moto y'ibara ritukura n'intebe y'umukara, ihagaze mu gahanda k'abanyamaguru munini hakagendamo abamotari n'imodoka z'umweru.

Amasaha ya kagoroba, amatara yo ku muhanda atangiye kwaka, moto ziriho abantu benshi ziraparitse, zirahagaze imbere yazo hari abamama babiri barimo baraganira umwe yambaye ishati y'ubururu bwijimye.

Aha hari ikinyabiziga gifite ibara ry'umweru kivanzemo nay'umuhondo n'umutuku, giherereye mumuhanda w'ibitaka ahantu hari igipangu cy'amatafari ahiye gishobora gutwara abantu, abagenzi, ndetse n'abanyeshuri.

Ikinyabiziga gitatswe n'amabara icyatsi, umweru gitwara abantu benshi abicaye n'abahagaze, kirikugenda mumuhanda w'irabura, imbere yacyo hakaba umugabo wamabaye imyenda y'umukara.

Umuhanda mugari urimo ibinyabiziga bitandukanye, ari byo moto zihetse abantu bambaye utugofero tw'umutuku n'amajire y'umuhondo n'ubururu ndetse n'imodoka itwaye imizigo.

Amasaha y'ijoro ibinyabiziga bisa umweru biri mu muhanda hirya hakaba hari abaturage benshi barimo baragenda batambuka ahantu karunze akavuyo ka bantu benshi cyane.

Ikinyabiziga kinini kiri mu ibara ry'umweru gitwara imizigo n'imicanga ndetse n'amabuye yo kubakisha kiri kugenda mu muhanda w'umukara.

Umuhanda mugari uciyemo imirongo y'umuhondo uri kugendamo ibinyabiziga bitandukanye, ari byo moto, mamodoka y' amabara menshi, ndetse hirya hateye ibiti n'indabo byiza.

Ibinyabiziga bitandukanye biri mu muhanda ndetse n'umugabo uri kugenda wambaye ishati n'ipantaro y'umukara. Hirya hari imodoka y'ubururu ndetse n'umweru irimo abantu benshi.

Ikinyabiziga kiri mu ibara ry'umweru gitwikiriwe n'igitambaro kijya gusa umuhondo gitwara imizigo kiri kugenda mu muhanda w'umukara.

Amasaha y'ijoro amatara arimo araka ibinyabiziga biri mu ibara ry'umweru bitwara abagenzi benshi birimo biragenda hicayemo abantu.

Ikinyabiziga kinini kiri mu ibara ry'umutuku kiri kugenda ku muhanda w'umukara, gitwara imicanga n'amabuye ariko bifite ibiro byinshi cyane.

Imodoka nini itwaye umucanga yo mu ibara ry'umutuku itwawe n'abagabo babiri inyuma hakaba abandi b'abamotari kuri muto.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, hari kugendamo ikinyabiziga kinini gitwara abantu muri rusange kigizwe n'umweru n'ubururu, amatara ari kwaka urabona ko ari ibintu byiza cyane.

Umuhanda urimo ikinyabiziga kinini cy'umweru gitwaye imizigo hirya hagaparika ibindi bisa ubururu.

Umuhanda muremure urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ndetse n'abantu. Hari ibihetse ibikoresho hirya hari imodoka ndende ifite ibara ry'ubururu, inyuma ukahabona moto isa umutuku.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo urasa umukara aragendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye yaba ibyikorera imizigo ndetse n'ibitwara abantu n'amagare, n'imodoka hirya gato ari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, ugizwe n'amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, ku ruhande hahagaze ibinyabiziga ndetse n'abantu bagiye batandukanye, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Ikinyabiziga kinini gifite ibara ry'umweru n'umuhondo gitwara imicanga ndetse n'amabuye yo kubakisha kiri kugenda mu muhanda w'umukara.

Umuhanda wo gusikana urimo ibinyabiziga bitandukanye, moto itwawe n'abagabo bambaye utugofero tw'umutuku, imodoka z'umukara zigenda.

Ikinyabiziga kinini gifite ibara ry'umweru n'ivu inyuma, gipakira imizigo gikunda gutwara ibirayi, ibijumba, ndetse n'amakara kiri kugendera mu muhanda.

Umugabo utwaye moto ari mu muhanda yambaye ijire y'ubururu n'umuhondo n'ingofero, uko bisa ategereje abagenzi.

Umuhanda mugari urimo uragendamo imodoka eshatu, ifite ibara ry'ivu yigisha gutwara, indi isa umweru iri imbere yazo.

Uyu ni umuhanda munini wo mu bwoko bwa kaburimbo urasa umukara hari kugendamo ikinyabiziga gitwara imizigo cy'umutuku hirya gato hari ibiti birebire by'icyatsi bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bawukoresha bose.

Umugabo wambaye umupira wa oranje ipantaro y'umukara inkweto ziriho umweru, ari kugenda mu muhanda areba ikinyabiziga kigenderwa ku mapine atatu gisa ubururu.

Imodoka ebyiri ziri mu muhanda, iy'imbere isa umweru, inyuma ifite ibara ry'ivu, hirya hari abagabo batambuka bambaye imyenda y'umukara.

Umuhanda mugari urimo ibinyabiziga bitandukanye ari byo imodoka, moto, n'amagare atwawe n'abagabo batandukanye.

umuhanda mugari urimo uragendamo ibinyabiziga bitandukanye, ari byo moto eshatu, ndetse n'imodoka ntoya y'umweru ifite amabara y'umuhondo.

Ikinyabiziga kirekire kiri mu ibara ry'umukara n'umweru gitwara imizigo myinshi kizengurukijweho igitambaro gisa ubururu.

Uyu ni umuhanda uri mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara impande zose, haragendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka, moto ndetse n'abantu benshi urabona ko ari ibintu byiza cyane.

Umuhanda munini urimo ikinyabiziga gihetse ibikoresho bitandukanye gifite ibara ry'umweru n'ibyuma bisa ivu amapine y'umukara kikaba gitwawe n'umugabo wambaye ishati y'ubururu bwerurutse.

Imodoka itwara imizigo ifite ibara ry'umweru ihagaraye kukiraro irashaka kwinjira mugipangu gisa umukara , inyuma yayo hari umugore wambaye igitenge ufite agafuka muntoki ze

Umuhanda mugari urimo ikinyabiziga k'inini kiri mu ibara ritukura gihetse imicanga, akenshi usanga iyi modoka itwara n'amabuye n'ibikoresho byubaka.

Umuhanda mugari w'umukara urimo agendamo ipikipiki ifite ibara ry'umutuku, ihetswe abantu babiri.

Ibinyabiziga by'amapikipiki biri muu ibara ry'umutuku imisego y'umukara hariho utugofero dutukura bihagaze ahantu hamwe.

Umuhanda mugari w'umukara urimo imirongo y'umweru, harikugendaho umugabo utwaye moto yambaye ingofero y'umutuku n'ijire y'umuhondo n'ubururu.

Ikinyabiziga kinini kiri mu ibara ry'umuhondo n'umweru gikoreshwa gitwara amatafari cg se imicanga yo kubakisha, kiri kugenda mu muhanda w'umukara.

Umuhanda mugari uba urimo kugendamo abanyamagare n'abanyamaguru, umwe yambaye umupira w'umukara n'ipantaro y''ivu, hirya haparitse moto zifite ibara ritukura.

Imodoka ntoya ihetse ibyuma ndetse n'amatiyo atandukanye, ifite ibara ry'icyatsi ryijimye iri mu muhanda w'umukara hirya hakaba hari umugabo utwaye moto.

Abantu bari ku dutebe two ku mihanda, aha hakaba hakunda kwicara abagenzi bananiwe igihe barimo bararuhuka.

Abana batatu bari kugenda ku magare rusange mu mbuga ihagazemo abantu babiri, inyuma yabo hakaba hateye ibiti.

Ikibuga gikinirwamo imikino y'amaboko aha hakaba haza abana, abagabo, abasore, abagore baje kwidagadura. Gikikijwe n'ibiti by'imikindo ndetse hamwe n'ibyatsi.

Ishusho igaragaza ibyatsi byinshi biri hasi, bigaragara ko bahakinira imikino itandukanye y'amaguru, y'amaboko no kwirukanka.

Icyapa gihagaze mu bihuru gikunda gusangwa mu muhanda kigaragaza y'uko imbere hari ikoni cyangwa se umuhanda wigunze ibumoso.

Icyapa kiriwi ibara ry'umweru cyandikishijweho inyuguti z'umukara ka, ga, imibare rimwe umunani, icyenda, kigaragaza umuhanda nimero yawo.

Icyapa kiri mu ibara ry'umutuku n'umweru gihagaze mu byatsi byinshi, ukunda kugisanga mu muhanda kikwereka ko imbere hari ikoni rikata iburyo.

Ikimenyetso cy'uruziga giciyemo umurongo, gifite ibara ry'umutuku ndetse n'inyuguti hagati ya pa isa umukara. Bikaba bikunda kuba ahantu hagaragaza ko hatemewe guparikwa.

Icyapa kizengurutse n'uruziga rw'umutuku umwana hagati ari kwambuka imirongo y'umweru mu muhanda gikunda gushyirwa ahantu hagaragara yuko hambukiranwa.

Umuhanda mugari kuruhande hateye ibyatsi ,icyapa gifite ibara ry'ubururu, ririmo imodoka n'imyuguti ya p.

Inyubako ndende yubakishijwe amakaro ndetse n'ibirahure byinshi cyane, ikaba itatswe n'amabara ya oranje ndetse n'umweru, imbrere yaho hari igiti kirekire gifite amababi y'icyatsi.

Moto ebyiri zihagaze, imwe iriho abagabo babiri; wambaye ishati y'ubururu n'akagofero gatukura, indi umugabo w'ijire y'umuhondo n'ubururu.

Ibiti, ibihuru, ibyatsi, ibidukikije, umurima w'ibitoki hirya hakaba hari amazu afite amabara n'amabati asa oranje ndetse n'ubururu.

Umuhanda muremure urimo imirongo y'umuhondo hirya yawo hari inzu ndende itatswe n'amabara y'umweru n'umukara ifite icyapa cyamamaza.

umudugudu ugaragaza ibihuru n'amashyamba hirya y’ amazu yubatse, bigaragara ko ari mu gace ka kinyinya mu mujyi wa kigali.

Mu Rwanda hari utubari twinshi dukomeje kuza kw'isonga bitewe na serivise turimo turatanga. Aho ntitwasiba kuvuga ko bakwakirana ubwuzu, ukahasanga bimwe mu ndabyo zishobora kuba zihatatse, bityo aho hantu ni heza , kuburyo ushobora kuba wahasohokana nabawe mukaba mwanywa ibinyobwa bigiye bitandukanye ibisembuye n'ibidasembuye.

Icyapa kiri mu muhanda gisa umweru cyandikishijweho inyuguti z'umukara n'imibare arizo kaka gatanu icyenda sata (kk59st) kiranga nimero y'umuhanda.

Inyubako ndende ifite imbuga nini haparitsemo imodoka zisa umweru, uko bigaragara hakaba habera ibikorwa bitandukanye hacuruzwamo imiti, imbuto ndetse n'ibyo kurya.

Amasaha y'amanywa mu muhanda, harimo umugabo uri ku igare yambaye imyenda y'ubururu bwimye, hirya hari imodoka y'umukara, inyuma yawo hari ikinyabiziga gisa umweru. Abantu bakaba barimo baragenda n'amaguru.

Umuhanda munini w'umukara urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye ndetse n'abaturage bagenda n'amaguru yabo, urabonamo imodoka nini n'intoya n'amamoto.

Inyubako ndende zisize ibara ry'umweru zegeranye n'indi ifite igisenge gitukura gisa ivu hanze y'igipangu hateye ibigori n'ibiti.

Inzu yubakishijwe amakaro ibikuta by'imiryango isa ubururu bwererutse ndetse n'ubururu bwijimye, amabara y'umutuku hirya hari imyenda ndetse n'ibishushanyo.

Inyubako ndende zubakishijwe amatafari ahiye mato mato, zikaba zitatswe n'ibara ry'umweru, ndetse n'umukara ibyuma biri hasi bizengurutse byirabura, hirya hakaba hari umugabo wambaye ishati y'ubururu bugerurutse.

Inyubako ndede igeretse gatatu isa ibara ry'umweru hariho ibyuma by'ivu ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye.

Icyapa cy'ibara ry'ubururu kigaragaza yuko aha hacururizwa amata, ndetse n'ibindi bintu bikorerwa mu ruganda rw'inyange

Inzu ndende iri ku muhanda igaragaza yuko haberamo ibikorwa bitandukanye nko gucururizamo amata, gicuruzamo imiti, bakanigiramo, ifite amabara y'icyatsi, amabati asa oranje, hakaba hatatswe ubururu, umweru n'umukara.

Akararo gato gatukura kambuka, n'imodoka ifite ibara ry'ivu n'umukara, inyuma yayo hari ikinyabiziga cy'umweru gito.

Umudugudu wubatsemo inzu zifite amabati ari mu ibara ritukura, ndetse n'izindi zigerekeye zitatswe n'umweruru ziherereye i Remera.

Ibiti birebire bisa icyatsi bikaba biteye imbere y'amazu menshi maremare afite amabati atukura, ay'ivu, aya oranje akaba asize amabara atandukanye.

Umuhanda mugari urimo uragendamo ikinyabiziga gitwara ibikoresho byo kubaka hakaba hateye n'ibiti bitandukanye hirya hubatse inzu ndende.

Ikinyabiziga kiri mw'ibara ry'umweru, cyandikishijweho inyuguti z'icyatsi kigaragaza yuko ari icy'abayisilamu bakorera mu Rwanda.

Umuhanda w'umukara unyuzemo imirongo y'umweru itambitse igaragaza ko aha abanyamaguru ari ho bambukira igihe babikeneye.

Umuhanda mugari urimo ibinyabiziga bitandukanye ari byo moto, imodoka ndetse n'amagare, bigeze ahari amatara ndangabyerekezo yo mu muhanda.

Amasaha y'ijoro umuhanda uciye hejuru yundi munsi hari kugenderwamo amagare ndetse n'imidoka zigiye zitandukanye.

Umuhanda mugari urimo ibinyabiziga bitandukanye usa umukara haciyemo imirongo y'umweru n'indi y'umuhondo. Ubonamo moto, imodoka n'abantu batambuka.

Umuhanda muremure mugari uzenguruka urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, imbere urahabona poto ebyiri zisa umutuku naho inyuma ukahasanga imodoka zisa umukara, hirya hari ibyatsi ndetse n ibiti.

Amasaha y' ijoro umuhanda mugari hari icyapa cy' icyatsi n' umweru ,hirya hakaba ikizengurukijwe, nibara ritukura n'inyuguti y' umukara ,hagati ...

Amasaaha y'ijoro mu muhanda mugari hagaragaramo icyapa kizengurukijwe umurongo utukura n'undi uciyemo hagati, inyuguti ya pa yandikishijwe umukara imbere yaho hari umukobwa wambaye ikote ry'umutuku.

Umuhanda mugari uragendamo ibinyabiziga bitandukanye, aribyo imodoka, utugare, n'ibindi. Muri uyu muhanda, hagati n'ahagati, hahinzemo ibiti by'imikindo,

Umuhanda w'umukara ucuritsemo amazi uri kugendaho moto zigera ku mubare enye, hariho abagabo bambaye utugofero tw'umutuku, amajire y'umuhondo n'ubururu.

Umuhanda mugari w'umukara urimo uragendamo moto zigera kuri enye ndetse n'igare, zihetse abagenzi bambaye utugofero tw'umutuku.

Umuhanda mugari urimo uragendamo ipikipiki ihetse abagabo babiri, bambaye utugofero tw'umuhondo, n'undi musore uri gutwara igare, inyuma ye hari ikimodoka kigenda gikururana.

Umuhanda mugari urimo uragendamo moto zitwaye abagabo, hirya hari icyapa cyanditseho ka, ga, gatandatu, icyenda, umunani.

Imihanda migari ibiri umwe uciye hejuru undi uciye hasi uri kunyura mu ipikipiki ihetse abagabo babiri inyuma y'ayo hari imirongo itambitse y'umweru inyurwamo n'abagenzi.

Amasaha y'ijoro mu muhanda harimo moto zitwawe n'abagabo bambaye utugofero tw'umutuku; hirya icyapa cyandikishijeho amagambo y'umweru gisa umukara.

Amasaha y'ijoro mu muhanda harimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye biri kwatsa amatara imbere yabyo, hirya hari akamodoka gatoya gafite ibara ry'umweru ndetse na mamoto ahahagaze n'abantu bari gutambuka.

Umuhanda mugari w'umukara uciyemo imirongo harimo haragendamo moto zitandukanye nyinshi hariho abagabo bambaye utugofero tw'umutuku.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru ku ruhande, hagati haracamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, moto, imodoka, hirya gato hari ibiti birebire, bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Umuhanda mugari w'umukara uciyemo imirongo y'umweru itambitse igaragaza yuko aha abanyamaguru bakoresha igihe bashaka kwambukiranya.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imirongo y'umukara, urimo umugabo uri kwambuka acunga igare ndetse na moto ebyiri zihetse abantu.

Ni umuhanda mugari urimo uragendamo moto eshatu, imwe igeze mu mirongo itambitse iri hagati mu muhanda aho abanyamaguru bambukira.

Akayira k'abanyamaguru kari hagati mu mihanda ibiri ibisikana ,bamwe muri yo harimo imirongo itambitse igaragara yuko ariho bambukira.

Umuhanda mugari urimo uragendamo ibinyabiziga bitandukanye; ari byo imodoka zifite ibara ry'umweru, ndetse n'ibindi bisa ubururu, amagare na moto.

Umuhanda mugari urimo ibinyabiziga bitandukanye. Aribyo moto n' amamodoka hagati haciyemo imirongo itambitse igaragaza y'uko aha abanyamaguru bambukira

Akayira k'abanyamaguru gaturutsemo igare rijya muhanda w'ibinyabiziga harimo utu wambaye ijire y'umuhondo n'ubururu n'ingofero y'umutuku, inyuma ye ukahabona akamodoka kamapine atatu.

Umuhanda mugari urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ibumoso hari umuhungu wambaye umupira wa oranje, ipantaro y'ubururu bwererutse ufite igare. Hirya hakaba imodoka ndetse inyuma hakaba hari moto.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usizwe amabara y'umukara, n'uturongo tw'umweru ku ruhande, hirya gato hari Ubusitani bwiza bw'icyatsi, n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi, ku binyabiziga bihagenda byose.

Umuhanda munini urimo ibinyabiziga na moto ihetse abagabo babiri bambaye ingofero z'ubururu. Hirya hari imodoka isa umweru, hino hakaba hari inzu ndende.

Umuhanda mugari urimo ibinyabiziga bitandukanye ari byo moto, imodoka nini ziri guca munsi y'undi muhanda uri hejuru, utambitse.

Imitako ya kinyarwanda yo mu bwoko bw'intango imanitse iri mu mabara atandukanye y'umweru n'umukara, umuhondo, icyatsi kaki, ubururu, orange.

Akayira k'abanyamaguru kubakishijwe amatafari kegeranye n'imirongo y'umweruru yo mu muhanda itambitse yereka abagenzi aho banyura.

Umuhanda mugari uzenguruka agace gateyemo indabo n'ibiti ndetse n'ibyatsi, hakabamo icyapa kigaragaza y'uko imodoka ishobora gukata igaruka inyuma.

Ikiraro kinini kinyura hejuru y'umuhanda, munsi hagendamo moto n'amamodoka ndetse n'abantu, abagabo bambaye utugofero tw'umutuku.

Umuhanda mugari urimo umugabo wambaye ijire y'icyatsi, yicaye ku igare. Hirya ye hari moto ebyiri ziriho abasore, hino hari imirongo iciye hagati.